Imyicundebo bayikora bari kuyikorera abana b'incuke, baba bagiye kwiga kugira ngo bishime bige neza nta kibazo bafite, bafate mu mutwe ibyo biga.

Iterambere rirakataje aho abanyeshuri basigaye biga bafite amamashini menshi kandi meza, atuma bamenya ibintu bitandukanye biri hanze y'igihugu ndetse no mu Rwanda.

Abantu bagenewe guteka bafite imyenda yabugenewe, n'ibyo bambara mu ntoki kugira ngo ibintu bigende neza, bityo n'ibyo batetse bikagenda bikaryoha kubera ko baba babikoranye isuku.

Iterambere rirakataje aho bakora ibintu bitandukanye bya buri munsi, bituma u Rwanda rukomeza gutera imbere mu buzima bwarwo bwa buri munsi.

Kubaza ni umwuga mwiza kuko umuntu uwukora abona amafaranga menshi bityo bigatuma yiteza imbere, akabaho nta bukene, akabaho neza, buri kimwe cyose kikamuhira kubera ko ububaji bubamo amafaranga menshi.

Umunyeshuri mwiza ,umeze neza ubona ko yitonze ,afashe mikoro ari kuvuga ibintu bitandukanye, ari kubibwira abari bari aho ngaho.

Bakora imiti ya buri munsi itandukanye, abarwaye bakaza babagana bakaza bakabaha umuti ubafasha gukira indwara barwaye.

Iterambere ni ryiza rirakataje aho bigisha abanyeshuri ibintu bitandukanye, kugira ngo bakure amaboko mu mufuka bakore biteze imbere.

Ikoranabuhanga rirakataje mu Rwanda, aho abantu basigaye bigira gukora ibintu bitandukanye by'ikoranabuhanga, kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Abakozi bari gukora moto yapfuye, bari kuyikora kugira ngo yongere ibe nzima, maze ba nyirayo bakomeze bayikorereho, ibyo bari basanzwe bayikoreye.

Abantu bari kwiga iterambere bagira ubumenyi bwinshi kugira ngo iterambere rizasakare hose n'abatabizi babimenye.

Isomero abantu bajyamo bagiye gusoma ibitabo bitandukanye, ashaka kumenya amakuru atandukanye, cyangwa umuntu akeneye kuruhuka mu mutwe, akajya kwifatira igitabo agasoma.

Ikoranabuhanga rirakataje, bakora ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye, byatuma urwanda rukomeza kwiteza imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga.